Umugabo wicaye mu bwato ndetse no mu kiyaga arimo kuroba amafi .Ubona yabashije gufata amafi matoya ariyo ari kubasha kuba yakura mu bishurunduru.

Indagara ziri mu mifuka cyangwa se bamwe bita amafi matoya, igaragara yararobwe hanyuma akusanyirizwa hamwe wagira ngo ari ku isoko.

Umunyonzi uri ku igare utwayeho ikijerekani, ari mu nzira ahantu hegereye ikigo cy'amashuri, bigaragara ko inyuma hari n'undi muntu atwayeho.

Ababyeyi bari mu murima, barimo gusarura bimwe mu bihingwa byabo bahinze bishimye cyane. Kandi, bambaye udupfukamunwa kugira ngo babashe kwirinda imwe mu myuka imeze nabi.

Imineke iri ku ntara, ndetse munsi y'intara harimo ibase, urabona hirya gato inyanya, ndetse n'urusenda, ndetse n'ibirenge by'umwe mu bacuruzi.

Hari umukobwa wambaye umupira w'umutuku n'ingofero y'umweru, ufashe wotameloni arimo kuyikata kugira ngo abashe kuba yayirya, nkanabona ikigega ndetse n'ibindi bigega bitoya byifashishwa mu kubika amazi.

Ndabona umubyeyi ufite telefone igezweho, cyangwa se simati fone, telefoni zifashishwa cyane mu ikoranabuhanga, ahagaze ahantu mu murima hateyemo n'ibit,i ndetse bigaragara ko harimo n'imyaka.